Ibihingwa bimwe na bimwe bijya bikunda kurwara indwara zigiye zitandukanye, nkaho usanga byaribasiwe n'udusimba dutoya kandi bikaba byadindiza umusaruro. Muri urwo rwego hifashishwa ibinyabutabire bigiye bitandukanye, byakorewe muri laboratwari bakabitera ku bihingwa, bikabasha kwica utwo dusimba dushobora kubyangiza.

Ibirayi ni kimwe mu bihingwa abaturage b'i Musanze bakunze guhinga kubera ko ubutaka bwaho bufitemo ifumbire kamere ituruka ku birunga .Bikaba bityo rero bikaba bikunze kuhera ugasanga bagemurira n'andi masoko, haba ayo muri Kigali ndetse no mu tundi turere two mu gihugu cy'u Rwanda.

Ubuhinzi ni bimwe mu bikorwa bifatiye runini abaturage bo mu cyaro, dore y'uko abaturage bahinga ibyo bejeje akaba ari byo barya ndetse banajyana ku isoko bakabona amafaranga. Rero usanga iyo ubuhinzi budakozwe neza ari bwo bitera ubukene, ikindi kugira ngo ubuhinzi bukorwe neza bisaba ngo abagoronome babagire inama ndetse babahe n'amafumbire mvaruganda, yifashishwa mu guhinga neza bakeza neza.

Inyama y'ifi kubera ukuntu iryoha, ni imwe mu nyama zikunzwe n'abatari bakeya, ikindi usanga nko mu mabare n'amaresitora, yo mu karere ka Musanze, bakunda kuyiteka bakayitekana n'ibindi bintu, birimo nk'umuceri ku buryo ubiriye aba yumva ashaka ibindi.

Uburobyi ni imwe mu mirimo igiriye akamaro abaturage, doreko bibafasha mu kubona amafi ashobora mu kwifashishwa mu kwihaza mu biribwa, cyangwa se mu kuyagurisha bakababona amafaranga, dore ko amafi arobwe abasha kugurishwa nko ku masoko akomeye nk'i kigali ndetse n'ahandi mu gihugu.

Uburobyi bw'amafi ni bimwe mu bikorwa bigirira abaturage umumaro, dore ko uburobyi bw'amafi butuma abaturage babona amafaranga biturutse mu mafi bagurishije, ndetse na bo bakabasha kwihaza mu biribwa, ikindi usibye kuroba gusa bashobora no kubyifashisha muri taransipoti, hari nkaho baba bavana abaturage mu gace kamwe babajyana mu kandi.

Ubworozi bw'amafi na bwo bugira akamaro, cyane cyane mu nce zegereye umugi, dore yuko abanyamugi usanga bakunda amafi, kandi nta handi bayabona hegereye ikiyaga, usibye mu kuyorora mu buryo bugezweho.

Amafi ni bumwe mu bwoko bw'ibiryo bugirira akamaro abana ndetse n'abakuru, usanga nk'abana iyo bariye amafi bakiri batoya bibarinda kugwingira bikanabafasha no mu gukura k'ubwonko bwabo. Usanga rero mu Karere ka Musanze hari abaturage bayaroba bakayajyana ku masoko ku buryo yabasha kugurwa n'abandi batayabona hafi yabo.

Uburobyi bw'amafi ni bimwe mu bikorwa bishobora kugirira umumaro abaturage bagiye batandukanye cyane cyane abaturiye ikiyaga. Nko mu karere ka Musanze naho abaturage baturiye ikiyaga biteje imbere kubera uburobyi, dore yuko baroba amafi bakayajyana ku isoko bakabasha kubona amafaranga abatugwa cyangwa akanabafasha gutera imbere.

Amafi ni bimwe mu biribwa bigirira akamaro abatari bakeya haba mu bana, abakuru ndetse n'abasheshakanguhe. Ikindi amafi n'indagara ni byiza ku bana bakiri batoya dore yuko bibafasha mu gukura k'ubwonko bwabo ndetse no mugukarishya ubwenge.

Inyama y' ifi na yo iri mu nyama zikunzwe cyane n'abatari bake , hano mu Rwanda cyane cyane no mu karere ka musanze. Ikindi inyama y'ifi ijyana n'ibiryo byinshi irimo nk'ifiriti, umuceri ndetse n' ibindi ... Ikindi usanga bakatiraho n' indimu kugira ngo bize gufasha uyiriye mu igogora ry' iyo fi.

Inyama y'ifi ni imwe mu nyama zikunzwe n'abantu benshi, dore yuko nko mu karere ka Musanze hari ibiyaga birobwamo amafi, bikaba amafi arobwemo ashyirwa abaturage ku masoko, ndetse n'amabare akayagura akaba yayotsa bakayacuruza nka burusheti.

Inyama y'ifi imwe mu nyama iryohera abatari bake hano mu Rwanda. Dore yuko kugira ngo uyitunganye neza hari ibintu uba ikeneye, kugira ngo ize kuza iryoshye. Harimo nka karoti, hakabamo puwavuro, hakabamo indimu, inyanya n'ibindi.

Ubuhinzi bw'ibisheke ni bumwe mu buhinzi burimo gutera imbere kuri iki gihe, dore y'uko n'inganda zikora isukari zamaze kwiyongera hano mu Rwanda ndetse no mu karere ka Musanze. Ibi bisheke biratunganywa bikaba byakorwamo isukari ,ndetse n'imitobe igiye itandukanye iryohera abatari bake.

Ubuhinzi bwa avoka ni bumwe mu buhinzi buri gutera imbere, kubera yuko ubungubu hasigaye haravumbuwe avoka z'inzungu zibasha kwerera imyaka ibiri. Imyaka ibiri ziba zitanze umusaruro munini, kandi unahagije ku ma soko.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa bikunzwe n'abatari bakeya hano mu Rwanda, dore yuko babihinga bakabona amafaranga menshi, bashobora kwifashisha mu gukora ibindi bikorwa bya buri munsi. Si ibigori gusa bahinga, bahinga n'ibiti bivamo imbuto, birimo nk'imyembe, indimu, avoka, ndetse n'ibindi.

Kuri ubu ngubu mu karere ka Musanze, usanga abaturage benshi munsi y'urugo bahafite insina. Izi nsina baba barazivanze n'ibindi biti bibyara imbuto, harimo nk'avoka, imyembe, amacunga ndetse n'amapera, bikundwa n'abakiri bato ahanini.

Ubuhinzi ni bumwe mu bikorwa bifasha abaturage mu kwiteza imbere doreko nko mu karere ka Musanze bitewe n'uko hegereye ibirunga, usanga abaturage benshi bahinga ibirayi. Ibirayi bikifashishwa mu guteza imbere ubukungu bwabo, ndetse bakaba banabijyana ku masoko bakanihaza no mu biribwa.

Ibishyimbo, ni bimwe mu biribwa bikunze guhingwa n'abantu batari bake cyane mu gihugu cyacu, dore y'uko kiri mu bimwe mu bihingwa bihingwa n'abantu benshi, mu gihugu nkaho usanga ubuso bunini buhingwaho, ibishyimbo ndetse bikaba byabasha no guhingwa hamwe n'ibindi bihingwa, ikindi mu Karere ka Musanze birahera cyane kubera ubutaka bwiza burimo ifumbire, iba ikenewe n'ibishyimbo.

Mu gihe cyashize wasanga abaturage barasaruraga bakabura aho bashyira umusaruro wabo, ariko kuri ubu ngubu Leta isigaye yarabashyiriyeho amazu yubatse neza arimo ibikoresho byose byifashishwa kugira ngo hatunganyirizwemo umusaruro wabo. Amazu manini bashobora kuzirikaho ibigori bigafasha mu kuma neza, byamara kuma bakabijyana ku isoko.

Ingemwe z'ibiti bikiri bitoya ni bimwe mu bikorwa bishobora kugirira akamaro abaturage dore y'uko izi ngemwe z'ibiti zishobora guhingwa zikazavamo ibiti binini bitanga umwuka duhumeka ,ndetse bikanifashishwa mu kuvamo imbaho ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Ubuhinzi bw'ibigori ni bumwe mu buhinzi bugezweho hano mu gihugu cyacu, dore y'uko hasigaye hari inganda zitari nkeya zitunganya umusaruro w'ibigori zikaba zakoramo nk'akawunga. Aka kawunga kakaba kagurishwa hanze y'u Rwanda no mu bindi bihugu duturanye birimo: nka Uganda, Tanzaniya, Congo ndetse no mu Burundi.

Usibye mu kuba abaturage bahinga ubwoko bw'ibiribwa bigiye bitandukanye, abaturage mu karere ka musanze bahinga n'insina n'amapera ibingibi nabyo bibafasha mu kwiteza imbere ndetse no mu kwihaza mu biribwa.

Imigano, imisare ndetse n'ibindi biti bike bitandukanye by'ubwoko butandukanye, ni bimwe mu biti bigira umumaro abaturage, dore yuko nk'ibiti bishobora kuvamo imbaho, imbaho zikaba zakoreshwa muma atoriye agiye atandukanye hakavamo utubati, intebe zo kwicaraho ndetse n'ibindi bikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Kuri ubu ngubu mu Rwanda hose, uhasanga hari amafamu ahinga ibihingwa, ibyo bihingwa bihingwa bikiri bitoya, bikavamo ingemwe zikura, zikajyanwa ahantu hagiye hatandukanye, zikabasha gukurwamo ibindi bihingwa, aho twavugamo nk'ingemwe za avoka ingemwe z'indimu ndetse n'amatunda.

Ubuhinzi bwa avoka ni bumwe mu buhinzi buri gutera imbere, dore y’uko nk’u Rwanda rusigaye rwohereza amavoka y’ubwoko butandukanye hanze y’u Rwanda, nko mu Bushinwa, Amerika, ndetse no mu Burayi, kuko ubungubu u Rwanda rusigaye rwarahawe imbuto zateye imbere z’ubwoko bw'avoka.

Ibirayi ni kimwe mu gihingwa, gihingwa mu karere ka Musanze. Dore ko binakunze kuhera cyane, bitewe n'ubutaka bwabo bwiza buturuka ku birunga. Ikindi abaturage bifashisha amafumbire abagoronome baba barabahaye, mu kugira ngo bazagire umusaruro uhagije, ndetse unashimishije

Kuri ubu ngubu abaturage bize guhinga ibintu byinshi . Bize guhinga ibirimo nk'imbuto dore y'uko arizo zikunze gukenerwa cyane ku masoko , yaba ay'i Kigali ndetse no mu karere ka Musanze . Ikindi bize no guhinga ibiti , dore y'uko ari byo bivamo imbaho , ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa.

Ubuhinzi bw'imbuto mu Rwanda ntiburatera imbere cyane, ariko usanga hari abaturage bamwe na bamwe bamaze kumenya ukuntu batera izo mbuto harimo nk'ibinyomoro ndetse n'amatunda. ibi bigira akamaro ku masoko dore yuko usanga mu masoko hari ahantu hacuruza ibinyomoro, amatunda bikabasha no koherezwa ku masoko manini arimo za kigali ndetse n'ahandi.

Kuri ubu ngubu abaturage bamenye kwihaza mu biribwa binyuze mu buryo butandukanye, burimo nko korora amatungo ,arimo:nk'intama, ihene ndetse n'ubundi buryo bwo guhinga insina, dore ko na zo ziri mu bihingwa bitanga umusaruro, ko bivamo ibitoki bishobora kwifashishwa mu kurya cyangwa se no kubyengamo imitobe ,yakwifashishwa mu kumo inzoga.

Avoka ni zimwe mu mbuto zikunzwe n'abatari bakeya hano mu gihugu cyacu, no mu Karere ka Musanze. Usanga abaturage barize guhinga avoka zigezweho zerera imyaka ibiri. Izi voka zishobora gutanga umusaruro ushobora guhaza isoko rinini cyane, hano mu Karere ka Musanze.

Kuri ubu ngubu abahinzi bo mu karere ka Musanze bamenye guhinga kijyambere, aho usanga bahinga ibishyimbo bishyingirwa ndetse bakabasha no kubona umusaruro bifuza. Kuri ubu bakoresha amafumbire mvaruganda ndetse bakayivanga n'imborera ikabasha gutanga umusaruro ushyitse kandi umeze neza.

Mu muco nyarwanda ,usanga abanyarwanda barahingaga imbuto zigiye zitandukanye. Mu mbuto zitandukanye bahingaga harimo :imbuto y'ibinyobwa, hari imboga ndetse n'ibindi bigirira akamaro abaturage kuko bibafasha mu kwihaza mu biribwa ,ndetse no mu kubona amafaranga aturutse ku musaruro wa byo.

Indimu ndetse n'amaronji bimwe mu bihingwa bikundwa n'abaturage batari bakeya, haba mu Rwanda hose ndetse no mu karere ka Musanze. Usanga hari amafamu baba barabihinzemo ku buryo atanga umusaruro uhagije, ujyanwa ku masoko ndetse no ku masoko yo mu tundi turere n'umujyi wa kigali.

Ubuhinzi bw'icyayi ni bumwe mu buhinzi buri gutera imbere, kubera yuko ko u Rwanda rufite amasoko y'icyayi muduce tugiye dutandukanye tw'isi harimo: n'uburayi, Amerika ndetse no mu ushinwa, bityo rero abaturage bahinga icyayi, bagiye bibumbira mu makoperative, bakabasha guhinga ku buso bunini buzanatanga n'umusaruro munini w'icyayi.

Imyembe ni imwe mu mbuto zikundwa n'abatari bakeya mu Rwanda, dore yuko usanga ari imbuto zikunze kuboneka ahantu hose, usanga nka buri rugo ruba rufite igiti cy'umwembe rukuraho imyembe yo kurya cyangwa se yo kugurisha, usanga n'abacuruzi baba bayifite ku isoko batabura abakiriya kubera ko iba ikunzwe na benshi.

Ibigori ni bimwe mu bihingwa bigira umumaro mu karere ka Musanze. Dore ko usanga abaturage babihinga ku buka bunini. Iyo bihinzwe ku buso bunini bishobora gutanga umusaruro uhagije, ndetse bigafasha umuhinzi kwiteza imbere.

Ubucuruzi bw'imboga n'imbuto ni bumwe mu bucuruzi bugirira akamaro abaturage, dore yuko usanga imbuto zigira umumaro cyane cyane abana bakiri bato ndetse n'abakuru mu gihe bamaze kurya. Nk'urubuto rumwe ruba rukenewe kuri buri funguro rya buri munsi, kugira ngo umuntu agire ubuzima buzira umuze, harimo indimu, pome, umwembe n'ikinyomoro ndetse n'avoka.

Amagi ni kimwe mu biribwa bigira ingirakamaro cyane cyane nko ku bana bakiri munsi y'imyaka itanu baba bakeneye gukura neza nta kibazo cy'imirire mibi bafite . Ikindi n'abandi bakuru nabo barayakunda kuko abaryohera.

Ubuhinzi bw'ibitoki, bumwe mu buhinzi bugirira akamaro abaturage. Dore yuko ibitoki byeramo ahantu hose kandi bikaba byabasha kwishakira ifumbire mu butaka hasi, usanga nk'igitoki kimwe kinini cyeze cy'ikiribwa kiba gihagaze amafaranga ibihumbi bitanu.

Ubuhinzi ni bimwe mu bikorwa bigira umumaro cyane cyane ku baturage bo mu cyaro, dore ko nk'amateke usanga ahingwa mu cyaro cyane cyane ayo mu bwoko bita amabwayisi, akoherezwa i Kigali aho usanga nk'ikiro kimwe kigera ku mafaranga ibihumbi bibiri icyatanu.

Ubuhinzi bw'inanasi, ni bumwe mu buhinzi buri gutera imbere hano mu karere ka Musanze, nk'aho usanga inanasi imwe nini imeze neza iyo igeze ku isoko icuruzwa amafaranga igihumbi, bityo umuturage wayihinze akabasha kwiteza imbere, biturutse mu nyungu yakuye mu buhinzi bw'inanasi.

Ubuhinzi bwa avoka, bumwe mu buhinzi abaturage bari gukora cyane muri iyi minsi, dore yuko usanga abahinga avoka, ku buso burebure kandi zikabasha kubyarira umusaruro, ikindi hajeho n'avoka zigezweho zibasha kwerera imyaka ibiri kandi zikera n'imbuto nyinshi, bifasha abaturage mu kubona umusaruro uhagije, bajyana ku masoko bakiteza imbere.

Amajeri ni kimwe mu bihingwa usanga mu karere ka Musanze, akifashishwa mu gutegura indyo yuzuye kuberako ari ikinyampeke, ikindi abaturage bayagurisha mu mujyi wa Kigali bakaba babona amafaranga abafasha mu gutunga umuryango wabo, ndetse no kujyana abanyeshuri kujyana abana ku ishuri.

Ubuhinzi bw'ibigori nabwo buri mu buhinzi buteye imbere hano mu Rwanda. Dore ko ubu ngubu u Rwanda rusigaye rweza ibigori byinshi cyane, rubasha guhaza inganda zose zikora akawunga mu gihugu cyacu.

Amashu ni kimwe mu bihingwa bikundwa n'abantu batari bake, cyane cyane ko kibarizwa mu bihingwa by'imboga. Usanga abaturage bo mu karere ka Musanze bagihinga, umusaruro uvuyemo bakawujyana ku masoko, naho usanga ishu rimwe rihagaze amafaranga magana atanu.

Ubuhinzi bw'imbuto n'imboga ni bumwe mu buhinzi bugirira akamaro abaturage, nkaho usanga abaturage baregerejwe amasoko agezweho, bashaka gucururizamo ibi ibiribwa birimo:imiteja, karoti, pavuro indagara, inyanya ndetse n'ibindi.

Ibishyimbo ni bimwe mu bihingwa bifatiye runini Abanyarwanda batari bake, cyane cyane ababa mu cyaro. Ibishyimbo bishobora kwifashishwa nk'ibiribwa bisanzwe mu rugo, aho ushobora kubiteka ubifatanyije n'ibindi biryo, cyangwa ukajya ubiteka ukabishyira ku ruhande ku ndyo yawe ya buri munsi.

Ubworozi bw'ihene bwa kijyambere, ni bimwe mu bikorwa bigirira akamaro abaturage, dore y'uko izi hene zishobora kuvamo, inyama kandi zikaba zajyanwa mu mabare, zigacuruzwa dore y'uko usanga abatari bakeya bakunda inyama y'ihene ngo kubera ko ibaryohera, ihene bayizana n'ibirayi ndetse n'ibindi.

Imbuto nimwe mu bihingwa bifitiye akamaro abaturage, dore yuko usanga imbuto zikunzwe ahanini cyane cyane n'iyo umuntu arangije kurya. Izi mbuto zirasarurwa zigacuruzwa ku masoko agiye atandukanye arimo n'umujyi wa kigali, kuko ari wo ukenera imbuto nyinshi ugereranyije n'indi mijyi hano mu gihugu cyacu.

Ingurube ni imwe matungo ikunze kororoka cyane ikaba ishobora guteza umuturage imbere mu gihe gitoya cyane, dore y'uko nk'ingurube imwe ishobora kubwagura ibyana cumi na bitanu mu gihe kitarenze amezi atanu yonyine, kandi ikibwana kimwe gihagaze nk'ibihumbi mirongo itatu kuzamura. Ikindi ingurube igira inyama benshi bita akabenzi ikundwa n'abatari bakeya.

Kuri ubu ngubu, abaturage bamaze kwihaza mu biribwa. Aho usanga abenshi bo mu cyaro bahinga, kandi bakaneza. Bahinga ibiryo birimo nk'amashu, imyumbati, ndetse n'ibindi. Ibi ngibi n'umugore wo mu cyaro, cyangwa se urugo rwo mu cyaro, birufasha mu kwihaza mu biribwa, abana babo ntibagire indwara zituruka ku mirire mibi.

Ubuhinzi bw'imyembe nabwo ni bumwe mu buhinzi butangiye gutera imbere dore y'uko ubu ngubu basigaye barazanye imyembe ya kijyambere igezweho yerera igihe gitoya , kandi ikaza ari minini, nayo igirira akamaro abaturage , dore yuko bayicuruza , bakabonamo inyungu , ndetse bakayicuruza no ku bacuruzi bakeneye gucuruza , bakabona inyungu nabo , ndetse n'abayirya bakabasha kwihaza mu biribwa.

Imyumbati ni kimwe mu biribwa bifatiye runini abatura Rwanda, mbere y'uko nk'imyumbati ivamo ubugari ndetse bakaba banayirya bisanzwe, batari bayikoramo ubugari ikindi nko mu bigo by'amashuri, usanga bakenera ingano nini y'imyumbati, kugira ngo bakoremo ubugari bubasha guhaza ikigo cy'amashuri, no mu Rwanda ubu ngubu hamaze kuza inganda nyinshi, zitunganya umusaruro w'imyumbati, zikawukoramo ifu y'ubugari.

Ibigori ni bimwe mu bihingwa bigirira akamaro abaturage, dore y'uko usanga babyifashisha nka kimwe mu biribwa mu rugo yaba mu guteka imvungure cyangwa se no kubiteka bisanzwe, ikindi ibigori bivamo akawunga keza karyoshye gashobora gutunganyirizwa mu nganda, kakoherezwa hanze ndetse no mu Rwanda rwagati.

Ubuhinzi bw'ibijumba ni bumwe mu buhinzi bukorwa n'abantu benshi cyane, hano mu gihugu cyacu naho usanga abaturage bahinga ibijumba ku buso bunini. Bavuga ko ari kimwe mu biribwa kibafasha mu kwihaza mu rugo, dore yuko ko no mu karere ka Musanze kubera ubutaka bwiza kihera cyane.

Abahinzi iyo ari mu gihe cy'impeshyi, hari igihe ibihingwa byabo bisa naho bigiye kuma, kubera kubura amazi, nibwo rero usanga abaturage bakeneye ko buhira bakoresheje imashini zigezweho zikoresha moteri, zikabasha kugeza amazi ku bihingwa byose cyane cyane nk'ibirayi.

Ubworozi bw'inkoko zikiri ntoya ni bimwe mu bintu bigirirariye akamaro abaturage cyane cyane b'i Musanze dore yuko bibafasha mu kwihaza mu biribwa ndetse bakabasha no kubona inyama z'inkoko bagemura mu mahoteli, amaresitora ndetse n'ibindi bikabafasha no mu kwiteza imbere.

Ibigori ni kimwe mu gihingwa gikunze guhingwa mu Karere ka Musanze, kubera ko kigira akamaro cyane cyane mu gufasha mu kwihaza mu biribwa ndetse bakabasha no kugurisha ibisigaye bikaba byavanwamo nk'akawunga ndetse n'ibindi biribwa byo mu nganda bishobora guturuka ku bigori.

Ubuhinzi bw'amashu ni bumwe mu buhinzi burimo gutera imbere mbere y'uko abaturage bahinga amashu ku buso bunini bakaba babasha kububyaza umusaruro, n'aho usanga ku isoko rya kigali ishu rimwe rihagaze amafaranga magana atanu.

Ubuhinzi mu karere ka Musanze, ni bimwe mu bikorwa bibagirira akamaro abaturage, dore y'uko umusaruro wabo bawujyana ku isoko, bakaba babasha kubona ubagurira, bakaba babasha kujya kuguramo ibindi bintu bigiye bitandukanye, mu byo bakuye ku musaruro wa bo.

Ubworozi bw'ingemwe ni bumwe mu bworozi bugezweho kuri ikigihe, usanga barahinze pineri nini bakazihinga ku buso bunini. Kandi abaturage bakaza kugura ingemwe z'ibyo biti bashaka kubivanga n'ibindi biribwa bisanzwe birimo nk'ibirayi, ibishyimbo bakabiterera hamwe.

Abaturage bo mu karere ka musanze rimwe na rimwe bakora inama babifatanyijemo n'abaveterineri, bakabereka ukuntu bahinga neza k'umurongo cyangwa bakanabereka uburyo bwiza bwo gusarura, ibingibi bibafasha mu kongera umusaruro wabo ndetse no mu kubona ibiribwa bifite karite.

Akarere ka Musanze kubera ukuntu kegereye ibirunga usanga gafitemo ifumbire mu butaka, ishobora kwifashishwa mu ikura neza ry'ibirayi. Rero n'abaturage benshi bo mu karere ka Musanze usanga igihingwa k'ibirayi bakunze kugitera cyane kandi kikanahera, nk'aho iyo kigeze i Kigali abanyakigali bakita kinigi.

Ubucuruzi bw'imbuto mu karere ka Musanze busigaye bwarateye imbere, aho usanga abaturage bacuruza: avoka, imyembe, imineke, inyanya, bagacuruza n'ibindi bintu. Ubucuruzi bw'imbuto ni bumwe mu bucuruzi bugira umumaro kubera ko bufasha abaturage mu kwihaza mu biribwa, ndetse bukanaha inyungu ababukora.

Ihene n'imwe mu matungo rifitiye akamaro abaturage ,dore y'uko ihene imaze imyaka myinshi ibana n'abantu kandi ikaba ibafitiye umumaro ukomeye dore ko ishobora kubyara ikabyara nk'ibyana bitatu bikaba byafasha uyitunze kubona amafaranga mu buryo bworoshye , ikindi ishobora no kuvamo inyama zishobora gucuruzwa ku ma burushete ,mu mabare ,amahoteli ndetse no mu maresitora.

Muri iyi minsi abaturage bo muri Musanze bari gutera voka za kijyambere, izi voka zigira intungamubiri kandi zikagira umumaro cyane cyane kuberako zigurishwa ku masoko zikaba zaribwa cyangwa se zigakorwamo amavuta. Ikindi zigurishwa hanze y'u Rwanda, aho abaturage bashobora kubona amadovize biturutse muri izo voka.

Ubuhinzi bw'ibitoki ni bumwe mu buhinzi usanga bwiganje mu burasirazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Kirehe ndetse na Ngoma. Bitewe n'ubutaka bwo mu karere ka Musanze usanga ibitoki bidakunze kuhera cyane ugereranyije n'ahandi.

Ubucuruzi bw'inyomoro ni bumwe mu bucuruzi bugezweho mu karere ka Musanze . Ibinyomoro ntabwo babicuruza byonyine , babicuruzanya n'izindi mbuto harimo nk'imyembe , wotameroni ndetse n'amatunda. Ibi ngibi bifasha abaturage mu kwiteza imbere.

Ubuhinzi n'ubworozi ni umwe mu mirimo itunze abanyarwanda benshi, cyane cyane n'abaturage bo mu karere ka Musanze. Ubuhinzi bw'ibishyimbo, imiteja, bugirira akamaro abaturage kubera ko bafasha mu kwihaza mu biribwa, dore yuko imiteja ndetse n'ibishyimbo biba bikungahaye kuri vitamine, ndetse n'amaporoteyine.

Ubuhinzi bw'indabo mu Rwanda, ntabwo buratera imbere cyane ,ngo usange buri muturage wese yashobora kuzihinga .Ariko bamwe mu bazihinga nubwo bakiri bakeya ,bamaze gusobanukirwa uburyo zishobora kubagirira umumaro mu kwiteza imbere . Mbere y'uko u Rwanda rufite amasoko agiye atandukanye y'izo ndabo , mu bihugu bigiye bitandukanye: nk'Uburayi ndetse n'Ubushinwa na Amerika.

Amwe mu mavuta yo kwisiga acuruzwa mu bihugu bigiye bitandukanye birimo n'u Rwanda, usanga akorwa mu gihingwa cya voka. Aho voka zihiye neza akenshi zifitemo imbere hasa umuhondo bazisarura bakazijyana mu nganda, zigatunganywa zikaba zavamo ayo mavuta. Ayo mavuta kandi agira umumaro ku ruhu kubera ko atuma rusa neza rukanagaragara neza.

Imyembe n'umwe mu rubuto rukunzwe n'abatari bakeya, dore ko usanga mu mihanda myinshi yo mu karere ka Musanze abaturage baba barambuye imifuka bakayishyiraho maze abayishaka bakaza bakagura. Nkaho 'lusanga imyembe ine aba ari ijana cyangwa n' itanu.

Indabo ni kimwe mu bihingwa bihingwa mu Rwanda ndetse bikaba byakoherezwa no hanze, dore yuko nk'u Rwanda rufite amasoko manini y'indabo nko mu budage ,muri amerika ndetse no mu bushinwa, ibingibi bikurura amadovize ndetse bikagira n'icyo bifasha igihugu mu iterambere ndetse n'abaturage bahinga izo ndabyo.

Mu Karere ka Musanze, ibigori ni kimwe mu bihingwa bigirira akamaro abaturage. Dore y'uko usanga nko mu kwezi kwa kabiri, aribwo ibigori biba byeze. Biba byarahinzwe mu kwezi kwa cyenda. kuva mu kwezi kwa kabiri, igori birasarurwa bikajyanwa ku masoko, ndetse bikabashisha gukorwamo n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, harimo kawunga ndetse n'ibindi.

Kimwe mu bihingwa ngandurabukungu ni icyayi. abaturage bo mu karere ka Musanze za Nyamagabe ndetse n'utundi turere two mu Rwanda， usanga bahinga icyayi. Iki cyayi iyo cyeze neza baragisarura， bakagitunganyiriza mu nganda， aho nk'u Rwanda rufite amasoko， dushobora kukigurishaho hanze y'u Rwanda，harimo nko mu Bushinwa， muri Amerika ndetse n'ahandi.

Ubuhinzi n'ubworozi ni bimwe mu bikorwa usangamo umubare mwinshi w'abaturage bo mu karere ka Musanze. wasangaga kera kubera na politiki ya Reta mbi, abaturage benshi baragiye bava mu ishuri. Abavaga mu ishuri bahitaga bagana uyu w'ubuhinzi n'ubworozi.

Usibye ibigori ndetse n'ibirayi, usanga mu karere ka Musanze hari no mu bishanga bimwe na bimwe bihingwamo umuceri. Umuceri na wo ni mu gihingwa gikunze kuribwa n'abatari bakeya haba mu karere ka Musanze ndetse no mu mujyi wa Kigali. Kandi kubera ifumbire ubutaka bwo mu karere ka Musanze bwifitemo usanga n'umuceri ukunze kuhera n'abaturage bakawuhinga.

Avoka ni rumwe mu rubuto rukunzwe n'abantu benshi， kubera ko ahanini usanga rujyana n'ibiryo byose， kandi rukaryohera ururiye. Ikindi rushobora kwifashishwa mu gukora amavuta， harimo nk'ayo kwisiga， atuma uruhu rusa neza， kandi usanga ari kimwe mu bihingwa ngandurabukungu， mbere y'uko nk'u Rwanda rwohereza mu mahanga voka.

Ubuhinzi bw'icyayi ni bumwe mu buhinzi buteye imbere hano mu Rwanda. Nko mu karere ka Musanze usanga hari abaturage benshi bahinga icyayi. Iki cyayi cyoherezwa mu mahanga, kikaba cyafasha u Rwanda kubona amadovize aturutse muri icyo cyayi. Kandi kikanafasha abaturage bagihinga mu kwiteza imbere.

Ibigori ni kimwe mu biribwa bikundwa n'abatari bakeya hano mu gihugu cyacu, ikindi iyo byeze neza bishobora kuvamo akawunga no mu Rwanda rero ntabwo twasigaye inyuma, dore y'uko hasigaye hakorerwa ubwoko bwinshi bw'akawunga, ibyo biterwa n'uko umusaruro w'ibigori wagerageje kwiyongera.

Mu muco nyarwanda wasangaga inka ari ikintu gikomeye cyane. Nk'ubungubu nko mu Rwanda kubona urugo rudatunze inka biragoye. Inka rero zigira umumaro ukomeye cyane, mbere yuko zitanga amata zigatanga inyama, ndetse n'ibindi bishobora kwifashishwa n'ikiremwamuntu, mu buzima bwa buri munsi.

Imiteja mu karere ka Musanze usanga ikunzwe guhingwa cyane doreko kubera n'ubutaka bwaho bwiza inahera, usanga nk'igiti kimwe cy'imiteja cyakweraho imiteja irenga cumi n'eshanu ,ndetse imiteja akenshi ikunda kujyanirana n'ibishyimbo aho usanga n'ibishyimbo babiterera rimwe, ibishyimbo ugasanga mu karere ka Musanze bikunze kuhera bikaba byajyanwa ku masoko y'ahandi.

Guhingira muri koperative, ni bimwe mu bikorwa bigirira akamaro abaturage dore yuko bibafasha mu kwiyongera umusaruro, ndetse no mu bindi bikorwa bya buri munsi nko kugirana inama mu buhinzi, ndetse no kubona abaterankunga mu buryo buboroheye.

Mu kugira ngo umusaruro wawe ube munini w'ibihingwa byawe, ugomba kuba wa bihinze neza, kandi ukabihingana ifumbire nziza ishobora kuzabifasha mu kwera, bityo rero no mu karere ka Musanze usanga abaturage bahinga amaterasi, cyangwa se bakanahingana n'ifumbire kugira ngo umusaruro wabo uzaze ushimishije.

Abaturage kuri iki gihe bamenyeko ubuhinzi ubwo aribwo bwose yaba ubw'imbuto ndetse n'ubw'ibiribwa bisanzwe bushobora kubagirira umumaro, doreko nk'ubu ngubu usanga mu karere ka Musanze hari abaturage bize guhinga kijyambere amatunda. Ayo matunda iyo rimwe ryeze usanga riba rihagaze nk'amafaranga ijana kuzamura.

Ubuhinzi bw'amashu na bwo bugira akamaro, dore yuko ubu ngubu ku isoko ishu rimwe rihagaze amafaranga magana atanu, kandi ishu rimwe rishobora kwera mu gihe kitarenze amezi abiri. Urumva ko ubuhinzi bw'amashu, na bwo burushaho gufasha umuturage mu kwiteza imbere, ndetse no kwihaza mu biribwa.

Ibirayi ni kimwe mu bihingwa bikunda kwera mu Karere ka Musanze, kubera ubutaka bwiza bwaho bubamo ifumbire ibirayi byifashisha mu gukura. N'abaturage rero usanga barikubiye mu ma koperative bakabihingira hamwe, bakanasarurira hamwe. Cyangwa se ikindi, n'ibirayi bishobora guhingwa hamwe n'ibigori, kandi ntibigire icyo bibitwara..

Ibishyimbo, amashaza, ubunyobwa, ibigori ni bimwe mu binyampeke bifitiye akamaro abaturarwanda bose, ndetsebo nabo mu karere ka Musanze dore yuko usanga babyifashisha mu kwihaza mu mirire, ndetse no kubona amafaranga nkaho usanga babishyira ku masoko bafite amafaranga bakaza bakabigura.

Ubuhinzi nimwe mu bikorwa bitunze abatari bake mu karere ka musanze, naho usanga abaturage barishijwe guhinga ku materasi, kandi ibindi bikabafasha mu kongera umusaruro w'ibihingwa byabo, birimo nk'ibirayi, ibisimbo ndetse n'ibindi bishobora guhingwa ku matarasi. Ikindi abaturage bamenyereye guhinga mu makoperative aho babafasha kongera umusaruro no kubona ibiryo bihagije.

Ubuhinzi bw'ubunyobwa ni bumwe mu buhinzi bumaze gutera imbere, ikindi Ubunyobwa bugirira akamaro abaturage dore ko bashobora kubwifashisha nkikiribwa bisanzwe, ndetse bakaba banakoramo ibindi bigiye bitandukanye dore ko Ubunyobwa bushobora kwifashishwa mukuvamo amavuta meza.

Abaturage b'iki gihe cyane cyane abo mu karere ka Musanze, bamenye kwiteza imbere ndetse bamenya no guhinga kijyambere. Aho usanga abaturage bahinga ibishyimbo, bikaba byabaviramo umusaruro uhagije ndetse n'ibigori. Kandi banigishwa n'ukuntu bashobora kubivanga, bikaba ibishyimbo byakerera hasi, ibigori bikerera hejuru.

Ubuhinzi ni umwe mu mirimo igirira abaturage akamaro cyane cyane nk'abatuye muri Musanze, aho usanga bahinga ibiribwa bigiye bitandukanye, birimo imiteja, imiteja y'umweru bakajya kuyigurisha mu migi igiye itandukanye irimo na Kigali. Imiteja ituma abaturage biteza imbere, dore y'uko bimwe mu bihingwa bigurwa cyane, kandi binahenze ubu ng'ubu bigafasha abaturage mu kwiteza imbere.

Abahinzi bamenye guhinga kijyambere kandi banahinga neza bifashishije amafumbire agezweho ashobora gutuma umusaruro wiyongera. Muri urwo rwego usanga abaturage bakoresheje amafumbire mu guhinga nk'amasaka, ibigori, ndetse n'ibindi n'ibisheke.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imiteja, ni bumwe mu buhinzi bugira umumaro cyane, dore yuko abaturage bahinga ibyo bihingwa babasha kwiteza imbere, biturutse mu mafaranga aturutse ku musaruro wabwo. Mbere yuko babasha kubigurisha ku masoko agiye atandukanye, yaba ayo mu mugi wa Kigali ndetse n'ayo mu mugi wa Musanze mu masoko yawo akomeye.

Ubunyobwa ni kimwe mu bihingwa bigira akamaro. Nk'iyo kiriri mu murima kikabona izuba rihagije, ifumbire ihagije ndetse n'ibindi, kugira ngo gikure neza, usanga gitanga umusaruro munini ku buryo wajyana ku masoko, hakanifashishwa mu gutera imbere k'umuturage.

Amashaza ,amageri ,urunyogwe ni amwe mu mazina akunze kwitwa . Iki gihingwa usanga abantu benshi bayakunda cyane cyane nko kuyateka mu birayi cyangwa se mu gitoki . Ikindi usanga n'abaturage bo mu karere ka Musanze batarasigaye inyuma, nabo barayahinga bakabasha kuyajyana ku masoko akaba yababyarira inyungu.

Ibishyimbo ni kimwe mu biribwa bikunzwe mu Rwanda. Dore y'uko abatari bake babihinga, kandi bikanabaviramo umusaruro ukomeye, bakabasha kubijyana ku masoko bakaba babona inyungu ndetse bakabasha no kwihaza mu biribwa mu ngo zabo.

Ubuhinzi bw'ubunyobwa ni bumwe mu buhinzi bugirira akamaro abaturage. Dore yuko ubunyobwa bukunze kwera no mu Karere ka Musanze kubera ubutaka bwiza bwaho. Ubunyobwa burasheshwa bukaba bwaribwa nk'isosi. Ikindi ubunyobwa bugira amavuta bushobora kuvamo amavuta meza yo guteka.

Ibihwagari, ni bimwe mu bihingwa bitanga isosi nziza ikunzwe n'abatari bake, usanga n'ubwo mu Rwanda nta baturage benshi bakunze kubihinga, ariko ababihinga usanga bagira umusaruro kuko babijyana ku masoko, bakaba babasha kubona inyungu ndetse nabo bakihaza mu biribwa, ikindi ibiwahagari bivamo amavuta meza, aryoshye akunzwe n'abatari bake.

Imbuto zigiye zitandukanye nyinshi zirahingwa zikamera, zamara kumera bakazisubiza mu butaka busanzwe. Nko muri raboratwari hari imbuto bagenda bahingiramo zirimo nk'amashaza, amajeri ndetse bagahingamo n'ibindi nk'ibigori, amasaka, babona bikuze neza bakabijyana mu baturage hanze bakabihinga mu butaka.

Ubuhinzi bw'amasaka ndetse n'izindi mbuto, ni bumwe mu buhinzi bugirira akamaro abaturage, dore yuko usanga nk'amasaka akunze kwera cyane mu Karere ka Musanze, kubera ubutaka bwiza, kuri ibyo rero abaturage bashyira imbaraga hamwe mu makoperative, bakabasha guhinga ku buso bunini ndetse bakabasha no kugira umusaruro uhagije.

Soya ni bimwe mu bihingwa nabyo bigirira umumaro abaturage ,dore yuko isi ishobora kuvamo inyama , amata meza ndetse n'ibindi . Ikindi usanga ari kimwe mu bihingwa bikungahaye ku ntungamubiri zishobora kugirira umubiri umumaro ,cyane cyane nko ku batoya cyangwa n'abakuze.

Ubuhinzi bw'amadegede ni bumwe mu bihinzi abantu benshi badakunze gukora, ariko usanga amadegede n'ayo agira umumaro harimo nk'uko ashobora kwifashishwa mu gukora amakeke meza kandi aryoshye, kandi akaba yanafasha abaturage mu kwihaza mu biribwa dore y'uko idegede rimwe rishobora guhaza umuryango wose munini, kandi ukaba ubonye vitamini ndetse n'ibindi bintu byose uke....

Kubera ko ubungubu abaturage benshi batabasha kugira ubushobozi bw'imashini zitunganya umusaruro wabo, usanga ari bo babyikorera, cyane cyane nk'ibishyimbo, kugira ngo iyo bivuye mu murima, kugira ngo bibashe kuvamo ibishyimbo biriya tubona, babanza gukora umurimo bita kubihura. Aho babihura, ibishyimbo bakabishyira kuri shitingi bakaza nyuma kubigosora.

Ikawa ni kimwe mu gihingwa kigirira umumaro abaturage bayihinga, dore yuko nk'u Rwanda rufite amasoko menshi rwoherezamo igihingwa cy'ikawa. Ikawa ikorwamo icyayi kiryohera abatari bakeya, nubwo mu Rwanda nta bantu benshi baramenye uko bakinwa.

Ubuhinzi bw'ubunyobwa nibumwe mu buhinzi nabwo bugirira akamaro abaturage, dore y'uko ubunyobwa bushobora kwifashishwa mu gukora isosi ikunzwe n'abatari bakeya. Ikindi ubunyobwa kuri ubungubu usanga nk'ikiro kigeze ku bihumbi bine na magana gatanu, ayo n'amafaranga menshi umuturage yabasha kuguramo ibindi biribwa bitandukanye.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo ni bumwe mu buhinzi usanga bugezweho cyane, haba mu Rwanda hose ndetse no mu karere ka Musanze. Mbere yuko ndetse no mu ba kera wasangaga igihingwa k'igishyimbo harimo bimwe mu bihingwa byahingwaga n'abantu benshi. Ubu ngubu kigira umumaro kubera ko usanga ahantu henshi haba ku bigo by'amashuri bagikoresha.

Mu Rwanda hari ubwoko butandukanye bw'amasaka nubwo wenda amazina yabwo ntayazi, ariko hari ubwoko bwinshi bugiye butandukanye. Harimo nk'amasaka y'umweru, amasaka aba ajya gusa umutuku wijimye, amasaka aba ajya gusa oranje. Aya yose akunze kwera mu butaka bw'u Rwanda kandi yose akagira umusaruro.

Ubuhinzi ni bumwe mu bikorwa bigirira akamaro abaturage, nk'aho usanga abahinzi bo mu Rwanda bahinga imbuto zigiye zitandukanye, zikaba zabasha kubagirira umumaro mu kibazo, kibyerekeranye n'ibiribwa ndetse n'ibindi baba bakeneye, mu buzima bwa buri munsi muri ubwo buhinzi bw'imbuto, harimo ibishyimbo, amasaka ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi bw'amasaka ni bumwe bumaze guterimbere mukarere ka Musanze. Ikindi usanga amasaka Ari mubwoko butandukanye hari amasaka yumweru, hari amasaka ajyagusa ikinombe ,hakaba namasaka yumutuku wijimye, ayoyose yifashishwa bagukora igikoma benshi bakunda .Bashobora kuyifashisha mugukora umutsima wakinyarwanda benshi bakunda kwita Rukacarara.

Ibworozi bw'amatungo burimo n'ingurube. Ni bumwe mu bworozi bugira umumaro cyane ba nyirabyo ndetse bukabasha no kubateza imbere dore yuko ingurube zororoka vuba kandi mu gihe gitoya ,zikaba zabasha kuvamo inyama ndetse zikabasha no kubyaragura ibindi byana bikenewe n'umuturage kugirango yiteze imbere.

Inkoko ni zimwe mu matungo asigaye afatiye runini abanyarwanda, dore yuko nko mu karere ka Musanze, usanga abantu benshi bafite amafamu y'inkoko, yaba iza kinyarwanda ndetse n'iza kizungu. Izi zose icyo zihuriyeho ni ugutanga inyama nziza, kandi ziryoshye, ikindi zigatanga n'amagi, cyane cyane nk'amasake yo akunda kuvamo inyama nini, kandi nziza zinaryoshye.

Korora amatungo bya kijyambere, ni bimwe mu bintu bigira umumaro, mu iterambere ry'abaturage, nk'aho abaturage usanga boroye amatungo magufi agiye atandukanye, arimo nk'ingurube. Ingurube imwe ishobora kubyara ibyana birenga cumi na bitanu, mu gihe ikibwana kimwe kimaze nk'amezi atatu, gishobora kugura ibihumbi mirongowi itatu, ubwo uyakubye yavamo amafaranga menshi cyane, ashobora kwifashishwa mu guteza imbere umuturage.

Ubworozi bwa kijyambere, ni bumwe mu bworozi bugira akamaro, dore yuko usanga nko mu karere ka musanze, hari aborozi ba kijyambere, bafite ifamu y'inka, ifamu y'inkoko, ifamu y'ihene, ifamu y'inkwavu, ibyo kandi bigira akamaro, kubera ko niho haturukamo inyama zicuruzwa mu ma bara agenda atandukanye, hagaturuka yo amagi, hagaturuka yo amata, ndetse n'ibindi bishobora kugira umumaro.

Kuri ubu ngubu ubworozi busigaye bwarateye imbere. Aho usanga abaturage benshi bafite inka za kizungu zikamwa amata menshi. Izi nka za kizungu urebye zikamwa amata menshi ugereranyije n'iza kinyarwanda, dore y'uko usanga iyikubye nk'inshuro nk'eshanu mu mukamo.

Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bworozi bugezweho cyane hano mu karere ka Musanze, n'aho usanga abashoramari benshi barashyize imbaraga mu korora inkoko zikiri ntoya, zimwe zishobora gukurira n'amezi atandatu zikaba zabasha gutanga umusaruro nyuma y'ayo mezi atandatu, urimo nk'inyama n'amagi.

Ubuvuzi bw'amatungo nibwo bita veterineri, ubu ngubu bwateye imbere mu Rwanda, aho usanga amatungo avurwa, ndetse hakaba hanakorwa n'andi matungo agezweho ya kijyambere, kuko hari na kaminuza mu karere ka Musanze ibyigisha, ariyo iniverisiti y'u Rwanda Busogo kapisi.

Ubworozi bw'ingurube ni bumwe mu bworozi bugezweho muri iyi minsi. Mbere y'uko ingurube abantu bazikundira kuba zororoka vuba ikindi zikaba zanatanga umusaruro munini w'inyama. Ingurube usibye kuba zororoka zikaba zatanga ibyana, kimwe usanga gihagaze nk'ibihumbi mirongo itanu ku isoko kandi bigafasha uzitunze mu kwiteza imbere.

Inka ni rimwe mu matungo rigirira akamaro abaturage hano, cyane cyane bo mu Rwanda. Kuko ribafasha mu kwiteza imbere. Dore yuko inka ishobora gutanga amata, ashobora kwifashishwa mu gukora ibindi bintu bigenda bitandukanye, birimo nka yogati ndetse n'ibindi. Ikindi ishobora no kuvamo inyama zishobora gucuruzwa, ku masoko zigatanga umusaruro.

Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bworozi buri gutera imbere, kuko usanga n'inkoko z'inzungu zikorerwa igihe gito kandi zikabasha gutanga umusaruro munini, nk'inkoko z'inzungu zikurira amezi atandatu zikaba zabagwa zikavanwamo inyama, cyangwa se zigatangira gutera zigatanga amagi.

Ubworozi bw'ihene bwa kijyambere. Mu Karere ka Musanze na ho usanga ubu ngubu bwarateye imbere. Ikindi n'iyo ufite ubworozi bw'ihene bwa kijyambere, utumira veterineri akaza kukurebera itungo rifite ikibazo akanakubwira uko warifasha rigakira, cyangwa se rikirinda kwanduza andi matungo, ku buryo bishobora kugushyira mu gihombo.

Umuco nyarwanda wasangaga harabagamo inka zigira amahembe manini cyane, arizo bitaga inyambo. No kuri ubu ngo usanga zigihari ariko urebye umubare wazo wagiye ugabanuka, bityo rero abakizifite usanga abaveterineri babagira inama yo kuburyo bazibungabunga, ndetse bakabasha no kuziha ibyo zikeneye byose, kugira ngo zitange umusaruro harimo nk'inyama n'amata.

Ubworozi bw’ingurube ni bumwe mu bworozi bugira akamaro, bugira akamaro kubera ko ingurube zikunze kororoka vuba, zikaba zatanga umusaruro mu gihe gito cyane kitageze nko ku mezi atandatu. Ikindi, ingurube imwe ishobora kubyara ibyana cumi na bitanu, kimwe kikaba gihagaze amafaranga ibihumbi mirongo itatu y’amanyarwanda.

Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bworozi bumaze gutera imbere mu Rwanda muri iyi minsi, hari nk'aho usanga mu karere ka Musanze hari amafamu y'inkoko manini cyane, izi nkoko ziratera zigatanga umusaruro w'amagi ndetse zikaba zitanga umusaruro w'inyama, ujyanwa mu mabare ndetse no mu ngo zitandukanye, bakaba bazibaga bakazirya.

mu nyamaswa z' agasozi harimo n'ibisiga ibisiga ni zimwe mu nyamaswa zikurura abatari bake usanga nko mu rwanda dufite ibisiga by'ubwoko bugiye butandukanye ba mukerarugendo bakaza kubireba bakaba basiga amadovize.

Mu nyamaswa zo mu ishyamba harimo n'ibisiga, ibisiga bikurura ba mukerarurugendo bamwe na bamwe kuko hari abajya kubisura. Ikindi bigira umumaro mucyo bita ekosisiteme; aho bishobora kwifashishwa nko mu kubangurira ibihingwa ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Inyamaswa z'igasozi ni zimwe mu nyamaswa zikunda gusurwa n'abatari bakeya, nko mu Rwanda dufite nka parike y'Akagera ikunze kubarizwamo inyamaswa nyinshi zikunze gusurwa n'abantu benshi. Harimo nk'impyisi, impyisi kandi ikunze kuba izwiho guhiga kandi ikarya n'ibisigarizwa by'intare.

Inyamaswa zo mu ishyamba ni zimwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo baturutse hanze y'u Rwanda ndetse no ku mugabane w'Uburayi, nk' Amerika ndetse n'Aziya impamvu muri Afurika, abakerarugendo baza ari benshi. Ni uko usanga ari ho hasigaye inyamaswa zimwe na zimwe zagiye zicika mu bihugu byabo. Harimo nk'intare, inzovu ndetse n'izindi.

Akanyamasyo ni kamwe mu nyamaswa usanga muri parike nyinshi z'u Rwanda, akanyamasyo karatangaje cyane dore ko gashobora kubyara ibyana birenga makumyabiri, ikindi kaba gafite inyuma ikintu gikomeye cyane, ku buryo nk'iyo haguyeho nk'ikintu kitagira icyo kigatwara.

Isatura cyangwa se ingurube z'igasozi, ni zimwe mu matungo akurura ba mukerarugendo benshi. Hoya ntabwo ari itungo ni inyamaswa y'isozi. Ba mukerarugendo baza kuzisura zikabihera ibyishimo, kubera ukuntu zizi kwiruka ndetse n'ukuntu ziba zishimishije mu kuzireba.

Zimwe mu nyamaswa z'agasozi dusanga mu Rwanda harimo n'ibisiga, ibisiga byo mu bwoko bigiye bitandukanye harimo sakabaka, ibyiyoni, ndetse n'ubundi bwoko. Ibi bisiga usanga byifashishwa muri ekosisiteme aho bishobora gufasha mu kubaransinga ekosisiteme ikagenda neza.

Inyamaswa z'igasozi, ni zimwe mu nyamaswa zikurura abatari bakeya mu Rwanda, dore yuko usanga izisigaye mu gasozi, ari zimwe mu nyamaswa zigenda zikendera, bityo rero abakeneye kureba izo nkeya zisigaye, bazisohora bazisanze mu ishyamba, izi nyamaswa harimo nk'inyoni z'ubwoko butandukanye ndetse n'ibindi.

Kuri ubungubu mu rwanda habarirwa umubare w'inkende urenga ibihumbi ijana, izinkende zigiye ziri mu bice bitandukanye by'igihugu; cyacu mu maparikigiye atandukanye aho usanga nko muri pariki y'ibirunga naho zibamo, ikindi kubera ukuntu ziba zizi kurira usanga zitoroka parike zikisanga ziri mu baturage rwagati mu mujyi ndetse n'ahandi.

Inyamaswa z'igasozi ni zimwe mu nyamaswa usanga zikunda kwangiriza abaturage cyane cyane nk'iyo zatorotse muri parike cyangwa se aho bazigeneye kuba. Usanga nk'inyamaswa bita ibitera akenshi biba bifite abana babyo bijya mu mirima y'abaturage bikabangiriza bikangiza imyaka nk'ibigori, ibishyimbo ndetse n'ibindi.

Muri parike zitandukanye z'u Rwanda usanga harimo ubwoko bw'ibisimba bugiye butandukanye, ibisimba babyita ibisimba by'inyagasozi, kubera ko biba bitabasha kuba mu rugo ngo bibane n'abantu, muri ibyo bisimba harimo nk'imikeri ndetse n'ibitubu, ibi ngibi ubisanga henshi ahantu hegereye amazi ,dore ko ariho biva kubera ko ariho biba bibasha guterera amagi yabyo, azavamo ibindi.

utunyamasyo ni tumwe mu dusimba dutangaje abantu baba bifuza kubona. usanga nubwo mu Rwanda hatari ahantu henshi wabusanga, ariko nko muri parike y'Akagera watubonayo. Ikindi utunyamasyo tuzwiho ni uko tuzwiho kugenda gake, kandi tukanagira ikintu cy'igisheri kiba kiri inyuma tukirinda mu gukomereka.

Zimwe mu nyamaswa z'agasozi, cyangwa se inyamaswa zitabasha gutungwa mu rugo, harimo n'inyoni. Inyoni zibamo amoko menshi nk'aho usanga hari iziba zifite n'amabara agiye atandukanye, ikindi izo nyoni na zo zitungwa n'ibintu bigiye bitandukanye byinshi harimo nk'amafi, imbuto zagiye ziva ku bihingwa bigiye bitandukanye, ndetse n'ibindi, ikindi zinakurura ba mukerarugendo.

Inyamaswa zo mu gasozi ni zimwe mu nyamaswa usanga zikurura ba mukerarugendo benshi, dore nko mu Rwanda yuko uhasanga ibisamagwe bikurura abantu benshi kubera ukuntu bitangaje, bizi kwiruka ndetse n'uburyo aba ari ibihanga mu guhiga.

Mu nyamaswa z'igasozi zitabasha gutungwa mu rugo harimo n'ibishuhe, ibi bishuhe bikundwa n'abatari bakeya dore yuko bishobora no kuvamo inya, usanga ibishuhe bibyaye bihita bitangira kororokera mu mazi kandi ugasanga bisa neza ntawe bibangamiye.